Amacupa atatu y'amazi, imeza isa umutuku n'umukara, igikapu, mudasobwa eshatu, abagabo batatu bicaye bogoshe, babiri bafite ubwanwa, umwe wambaye ikoti ry'ubururu, amarido amanitse yari mu ibara rya kaki na shokora.

Abantu bicaye abandi barahagaze, bamwe bambaye amashati abandi bambaye amakoti, umuzungu, imeza y'umukara iriho uducupa tw'amazi n'udupapuro, intebe z'umweru n'imigozi.

Abantu bane bicaye undi uhagaze, umuzungu, mudasobwa esheshatu, igitambaro kiri kumeza gisa umweru, intebe y'amacupa y'amazi, terefone, umuryango, idirishya, insinga, inzu isa umweru.

Abagore babiri bicaye ku ntebe z'ibyuma, umwe afite ubutumwa ari gutanga imbere yabo hari ameza, hariho ibitambaro bifite amabara atandukanye, harimo umweru n'ayandi, hariho amazi abiri, amatelefoni atatu n'ibitabo ngendanwa.

Abantu bicaye ari benshi abagore abagabo buri muntu arahuze imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'umweru ateretseho za mudasobwa, amazi, impapuro zisa umweru.

Abantu batandatu bicaye, imeza iriho urupapuro, ikirahure cy'amazi, icupa ry'amazi, igikuta kigiye gusa kacyi kimanitseho urupapuro runini rw'umweru rufite uturongo tw'umukara n'urundi rupapuro ruriho amadarapa atandukanye aho bamanika amakoti.

Abantu benshi bicaye abandi babiri bahagaze, undi uhetse umwana, intebe z'umukara, ameza y'umukara, televiziyo imanitse iri kwaka, ibipapuro bihagaze biriho idarapo ry'u Rwanda, imiryango ifunguye ifite amadirishya asa umweru.

Abantu batanu bicaye babiri babagore, abandi batatu abagabo, bamwe bambaye marinete. Mudasobwa enye, uturahure tw'amazi, imeza isa umweru, igikapu cy'umukara, amalido, inkingi, umuryango.

Abantu benshi bicaye abandi bahagaze abagore n'abagabo, umuzungu, intebe z'umukara, imeza z'umweru hasi afite amabara atandukanye, amatara ari kwaka menshi, urugi.

Abantu batatu bicaye abagore babiri umugabo umwe, inyuma yabo hari igihuta gisa ubururu cyanditseho amagambo Kigali yacu, imeza isa umutuku, intebe zisa umukara, mudasobwa imwe.

Abantu batanu bicaye, babiri bareba ku ruhande, abandi bareba hasi, undi ureba imbere, imeza zisa umukara, mudasobwa ebyiri, igitabo, impapuro z'umweru, uducupa tw'amazi yo kunywa.

Ikibuga kirimo abantu benshi hari n'abafite ibikoresho abahagaze abicaye munsi y'igisharaga gisa umweru n'ubururu n'abashinzwe umutekano b'ingeri zitandukanye bakurikiranye ubutumwa bw'uri kubaha ikiganiro mu kibuga hagati.

Umunara w'itumanaho ugizwe n'amabara atatu, umuhondo, umutuku umweru, uri mu ishusho y'ubururu n'umweru, ukikijwe n'ibiti byinshi by'icyatsi.

Amazu menshi amwe afunguye imiryango andi ariho imipira y'amaguru yo gukina hanze imanitse, ibyapa bisa umweru byanditseho irembo, hasi hafite amabuye agiye asobekeranyije, umuhanda w'igitaka, ikirararo.

Urupapuro rusa ubururu, ruriho agashushanyo, rufite amagambo asa umweru n'umuhondo, ariyo, dore uko wakwinjiza amakuru ya konti ya banki yawe, kuri risiti ubona hitamo banki ukoresheje nayo, injiza ijambo mbanga ryoherejwe kuri terefoni.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka isa kaki moto iparitse isa umukara n'umutuku, inzu ifite ibara ry'umweru n'indi yubakishije amabuye ahiye abantu babiri bari kugenda mu muhanda umwe afite baga.

Umuhanda w'igitaka, ibyatsi, umwana w'igikara, igipangu cyubashishije ibyuma, akazu gafite idirishya, senyenge, ipoto risa umutuku ririho esikariye.

Ntibyemewe kwishyura urugendo udakoresheje ikarita yabugenewe uburyo rukumbi bwemewe mu kwishyura urugendo rw'imodoka mu mujyi wa Kigali ni ugukoresha ikarita yabugenewe, birabujijwe kwishyura mu ntoki, iyi karita iyikigo gishinzwe ingendo abantu n'imodoka muri rusange gitanga mu rwego kugira ngo buri muturage ajye akoza ku cyuma amafaranga aveho.

Umunara muremure uriho insinga zitwara amashanyarazi ajyana umuriro mu bice bigiye bitandukanye, inyuma yawo hari urukuta rw'amatafari ishyamba ririmo ibiti byinshi cyane.

Umuhanda wa kaburimbo munsi hari aho abanyamaguru bagendera, ubusitani buteyemo ibiti aho wajugunya imyanda, hari icyuma giteyemo kirekire kiriho igishinzwe gufata amashusho mu rwego rw'umutekano wo mu muhanda, mu gihe hari ikinyabiziga cyakoze amakosa.

Ibi sahani bitatu bizana sinyare, inzu yubakishijwe amabati atukura ,amapoto abiri ariho insinga, igipangu cyubakishije amatafari ahiye, ibiti ,amatara abiri imodoka, hamwe na jaride.

Hari inzu isize ibara ry'umuhond hejuru hariho ikirabo rifite n'itara rimwe hasi hari amabuye hari intebe zo kwicaraho abantu bamwe baricaye abandi barahagaze, hari n'imodoka z'imbangukirabutabara eshatu zimwe zifunguye imiryango indi irafunze zisize ibara ry'umweru n'akandi k'umutuku.

Inzu ifite inkingi zubakishije amabuye, intebe ziri hanze, amadirishya, umuryango ufunguye, icyapa kiriho ijisho, ibyuma biteye mu butaka, amabati n'ubusitani.

Abantu babiri bambaye amashati y'umweru umwe ni umuzungu ufite isaha y'umukara na rineti undi ni umwirabura bicaye ku ntebe z'umukara ahantu bakarabira ibiganza, televiziyo imanitse ku gikuta, imeza iriho urupapuro rw'umweru.

Eshatu zigerekeranyije z'amabati y'umutuku ziriho umurindankuba, imigozi yanditseho ibintu by'umweru, intebe, ubusitani burimo ibiti bitoya n'ibiti binini imodoka.

Gereza ya Nyanza ifite igipangu cy'umukara n'amabara y'umuhondo, ifite amatafari kuhande n'icyapa cyanditseho amagambo, ni ikigo bakunda gushyiramo abantu babafungiramo baba barakoze amakosa ngo babagorore.

Abagabo bashinzwe umutekano bafite intwaro mu ntoki n'ibikapu umugongo n'amakaye n'amakaye, bari gukurikiza ibyo bari ku babwira bandika bari mu kibuga ni benshi bambaye amabara aso.

Abantu babiri, umwe uri mu modoka, undi uri hanze wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano bo mu Rwanda y'umukara, wambaye n'ingofero y'umukara iriho inuma, ufite amaherena.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu benshi, bamwe bambaye amashati y'umweru, imipira y'umutuku, harimo imodoka zicanye amatara, hasi hari umugozi w'umutuku, harimo ibiti bitatu biteye ku mpande zitandukanye.

Umuhanda w'igitaka wegerejwemo n'uwamabuye, apanze areba imbere, ibyuma bisize irangi ry'umukara n'umweru, igikuta kirimo amatafari, ibiti, imodoka ebyiri imwe isa umweru, inzu ifite idirishya.

Hari imodoka ebyiri imwe isize ibara ry'umweru n'umukara indi isize ibara ry'umweru. Hasi hari amabuye, hari n'ibyuma bisize ibara ry'umweru n'umukara. Harimo inzu y'abashinzwe umutekano bo m'u Rwanda, yo mu karere ka Nyarugenge, ifite amadirishya abiri rimwe irafunguye. Hari n'ubusitani burimo ibiti bitatu.

Umuntu ushinzwe umutekano mu muhanda w'igikara wambaye ingofero y'umukara ufite irangamuntu n'imashini, umuhanda wa kaburimbo, umuhanda w'abanyamaguru wubabakijije amabuye ku ruhande usize irangi ry'umukara n'umweru, imodoka, ibiti, moto.

Iki ni ikigo cy'igihugu k'irembo gikorera kuri murandasi, aho bakubwira ngo byikorere, bakaba batanga serivisi nyinshi zigiye zitandukanye, harimo kwiyandikisha mu gutwara ikinyabiziga, kwiyandikisha mu kudekarara ibyangombwa bigiye bitandukanye ndetse n'izindi serivisi nyinshi.

Amagambo Mpayimana yagiranye ikiganiro n'amakuru imibare kabiri zeru kabiri kane, imeza bisa umweru mudasobwa iriho ikiganza cy'umugabo wicaye w'igikara wambaye ikoti ry'ubururu terefone, amarido amanitse asa kaki arimo uturabyo twa shokora.

Umuntu wambaye ikoti ry'umukara harimo umuturongo dusa umweru, ishati y'umweru karuvati y'umweru, irimo imirongo y'umukara w'igikara ufite ubwanwa urimo uvuga, wambaye rinete wogoshe.

Abaturage benshi bambaye imyenda y'amabara, bari mu byishimo, bafite ifoto iriho umugabo wambaye ikositimu y'umukara, karuvati y'umukara, ishati y'umweru, umugabo w'igikara, basa nkaho bari kumwamamaza ngo bamutorere.

Umuhanda wa kaburimbo uri kumwe n'uwigitaka, umuntu ufashe igare, ikinyabiziga gitwara abagenzi kinini, imodoka ntoya ebyiri, imwe y'umweru, indi isa kacyi, amatara acanye yo ku muhanda y'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari n'imodoka itwara abagenzi zicyatsi, ubururu n'umweru, ifite amadirishya y'umukara, munsi yumuhanda hateye ibiti byinshi, hari n'inzu ishinzwe gucururizwamo ama inite, ruguru y'umuhanda hari aho abanyamaguru bagendera, n'ubusitani buteye k'uruhande.

Rigori yubakishije amabuye hejuru hariho beto aho abanyamaguru bagendera hubakikije utubuye tugiye dusobekeranyije, abantu bari kugenda, umuhanda wa kaburimbo, ikinyabiziga gitwara abantu, ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara urimo umumotari, hirya aho abanyamaguru bagendera hari ibiti byinshi, ubusitani buteye hasi, ibikuta bisize amarangi y'umweru n'amagambo yandikishijwemo ubururu n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari uhetse umugenzi wambaye imyenda y'amabara n'imodoka nini, munsi y'umuhanda hari aho abanyamaguru bagendera n'uruzitiro rw'icyatsi ruteyemo ibiti byinshi ruguru y'umuhanda naho hari aho abanyamaguru bagendera.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini itwaye umucanga ifite amabara y'umutuku n'umuhondo, munsi y'umuhanda hari uruzitiro rufite ibara ry'icyatsi ruteyemo ibiti byinshi, ruguru y'umuhanda hari rigore ipfutse.

Imodoka enye ziri mu muhanda wa kaburimbo, imwe nini n'izindi zisa umukara, naho aho abanyamaguru bambukira hasa umweru. Abantu benshi bari kugenda abandi bari kwambuka.

Abantu batatu umwe yambaye umupira w'umweru undi yambaye igisarubeti cy'ubururu cyanduye, afashe ingorofani undi yambaye umupira w'umweru. Hari imodoka eshatu, ebyiri z'umukara n'indi ifite ibara ry'ivu, hari umuhanda w'amabuye, igikuta cy'amabuye hari n'ubusitani.

Ikibuga gisize ibara ry'umukara, umutuku n'amagambo y'umweru yanditse hagati munsi y'ikibuga hari isima hari ubusitani buteyemo igiti na ruguru y'ikibuga hari isima hasi.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ndetse n'ikoranabuhanga rwa emutiyeni, aho ushobora kohereza, kwishyura, kwakira amafaranga m'uburyo bworoshye kuri terefone yawe bitagusabye kuva aho uri.

Umuhanda w'ibitaka urimo amabuye ibyatsi indabo abantu imodoka amazu ageretse afite amabara atandukanye, ibipangu bigizwe n'amabara atandukanye na rigore.

Inzu ifite ibara ry'umweru, amadirishya abiri, akandi gato gafunguye icyapa kishushanyijeho ibiryo, jaride, ibiti, imodoka ebyiri, imwe isa umukara, hasi hari amabuye agiye asobekera...

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka, abamotari, abantu abagenda, abahagaze, munsi y'umuhanda hari umutaka, rigori, igiti, hirya hari inzu igeretse kabiri iri mu mabara atandukanye umweru, umukara.

Urupangu rurimo imodoka eshatu, imwe irasohoka ifite ibara ry'ivu, indi irimo imbere y'umweru, inzu irasa umweru ifite igisenge kirimo amabara y'umukara n'amadirishya abiri n'umuntu uri hirya.

Igiti gisa umweru imihanda ibiri ya kaburimbo iteganye, umwe uriho aho abanyamaguru bambukira undi urimo imodoka ebyiri imwe isa umweru, indi isa umukara hacanye amatara hari aho abanyamaguru bagendera harimo amabuye hari n'ibiti.

Ni umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ebyiri, usize amarangi y'umukara n'umweru hari n'umuhanda w'amabuye ,uriho igikuta cy'amabuye harimo ibiti bisa ubururu harimo n'amapota abiri.